Mu mashuri y'inshuke abana baba bagomba guhabwa ibyo bakeneye byose harimo n'amazi meza, ni muri ubwo buryo rero amashuri agomba kugira ibigega bifata amazi y'imvura kugira ngo abana nibashaka kuyakoresha bayabone hafi kandi vuba.

Amashuri y'incuke ni ukuvuga umwaka wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu w'incuke n'amashuri abanza batorezwamo ishuri bakiri batoya kugira ngo bazabone uko bajya mu mashuri abanza, iyo bageze bageze ku ishuri hari udushashanyo twinshi cyane bareba kugirango ngo abana babashe kudusoma. Ikindi kandi hakaba hari isuku. Abarimu babigisha uturiririmbo n'utundi tuntu dutuma babasha kwiga.

Amashuri y'incuke aho abana batangira biga batozwa uko bazitwara mu mashuri ni mu kigo cy'amashuri cya Samaritani giherereye mu karere ka Nyagatare mu Ntara y'Iburasirazuba.

Ibishushanyo by'injangwe, ni bimwe mu bishushanyo byifashishwa mu mashuri y'incuke. Aho abarimu babikoresha bigisha abana bo mu mashuri matoya, inyamaswa zo mu rugo.

Ibipupe nk'inyamaswa y'intare, bifatwa nk'imfashanyigisho z'abana bo mu kiburamwaka bibafasha gukangura ubwenge bwabo kugira ngo bakure basobanukiwe n'inyamaswa ndetse n'ubuzima bwazo n'imibereho yazo.

Ibikoresho bikoreshwa n'abana biga imibare mu mashuri abanza harimo amarate hakazamo kopa hakazamo ikaramu y'igiti ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha bashushanya ibinyampande.

Amakarita ndetse n'ibishushanyo, ni bimwe mu bifasha abarimu bigisha mu mashuri abanza yo hasi. Mu kwigisha abana ibintu bifatika nko: kubara, kwandika ndetse n'amazina y'inyamaswa n'ibindi.

Amashuri abanza, aho umunyeshuri akomereza amasomo iyo avuye mu kiburamwaka, mu Rwanda harimo haragenda hatera imbere, ku buryo mu mashuri abanza, abana basigaye biga mu nyubako nziza ndetse n'abarimu b'abahanga.

Itebe, ameza ndetse n'ibitabo, bikoreshwa n'abanyeshuri, bo mu ishuri ry'inshuke, ahantu hamaze gutera imbere haba hari ibikoresho byose abana bakinera mu kwiga ndetse n'intebe nziza zijyanye n'ikiciro cyabo zitabavuna.

Ikoranabuhanga mu burezi ndetse no mu mashuri abanza, mbere y'uko abanyeshuri bakoresha imashini abarimu barasuzuma imashini bakazatsa bakazishyira ku murongo kugira ngo bazitunganye neza abana baze zimeze neza nta bibazo zifite.

Amashuri abanza icyiciro cya kabiri gikurikira amashuri y'inshuke, aho umunyeshuri atangira gutozwa kwiga neza. Mu mashuri abanza kandi bashobora kwiga ibindi bintu bitandukanye nk'imiziki ndetse n'imyidagaduro bakayikora kugira ngo babashe kwiga neza bisanzuye.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bajyanywe ku kibuga bahabashyirira intebe kugira ngo baganirize ku ngingo runaka bateguye, bafite amakaye n'amakaramu kugira ngo bandike buri kimwe cyose nta kibacika kandi barakurikiye neza cyane.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bari ku kibuga imbere y'amashuri yabo bafatanye urunana bishimye bari kumwe n'abarezi babo...

Mu mashuri yisumbuye haba inama rusange y'abanyeshuri n'abarimu kugira ngo baganire ku ngingo runaka yateza imbere ikigo cyabo. Abarimu bagatanga inama zabo n'abanyeshuri nabo bagatanga izabo kugira ngo ikigo cyabo gitere imbere.

Inyubako z'amashuri yisumbuye mu rwanda ni inyubako zigezweho zifite ibigega bibasha gufata amazi akoreshwa mu kigo kugira ngo yunganire andi mazi aturuka ahandi hantu.

Muri kaminuza ndetse n'andi mashuri makuru ya leta agamije kwigisha abantu ubumenyingiro ni ahantu bicara ku ntebe zitandukanye n'izo abandi bana bo muri Pimere (primaire) ndetse na Segondere (secondaire) zisanzwe aho intebe zabo ziba zifite utumeza bikoranye.

Amarembo ya kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'uburezi, riherereye mu Karere ka Nyagatare, abanyeshuri barasohoka mu marembo, berekeza imbere y'ibiro by'Akarere ka Ayagatare mu ntara y'Iburasirazuba.